Inyongeramusaruro iri mu mufuka w'umukara yifashishwa n'abahinzi kugira ngo ibihingwa byabo bikure bitoshe kandi bimeze neza mu gihe babiteranye imborera.

Abagabo babiri bari kuyora ifumbire bifashishije umufuka bakebye bakawukoramo ikideyi. Bari kumwe n'umukobwa utegereje kubakorera nyuma y'uko barangije guhambira. Bari kuriyiyora impande y'umuhanda aho barimenye.

Abagabo batatu n'umugore umwe. Bari kumurika ibikorwa byabo bakoze. Birimo amasabune ari mutujekani ndetse n'imiti yica udukoko. Bari kubimurikira ahantu abantu bose. Baje kureba kugira ngo babigurishe.

Umudamu wakuye amaboko mu mufuka agakora umurimo w'ubuhinzi, ahetse ipombo isa n'umukara ari gutera umuti mu myaka ye kugira ngo arwanye ubukoko bwangiriza imyaka kugirango izere neza.

Amacupa atatu atondetse ku murongo，arimo imiti yica udukoko iterwa mu bihingwa， iyo bari kugira ngo barwanye ubusimba bwangiriza imyaka. Yifashishwa n'abahinzi borozi，kugira ngo imyaka yabo imere neza.

Ifumbire ya ire ifite mirongo ine n'agatandatu ku ijana bya nitorogene. Iri kwifashishwa mu kuhira ibigori kugira bizamuke bimeze neza bifite umuvumba, bishishe kugira ngo bizere neza.

Igikorwa cy'ubuhinzi bw'ibigori cyahuriwemo n'abantu batandukanye, ingabo, polisi, abaturage, mu gwego rwo kurwanya inzara, n'ubukene bifashisha ubuhinzi bw'ibigori.

Ubuhumbikiro bw'ibintu bitandukanye by'imbuto biri mu bihema by'icyatsi, busakajwe n'ibihema by'icyatsi ndetse n'inzu zishinze ziriho ibyatsi hejuru, birinda nk'amahuhezi cyangwa imvura yaza ikangiriza ubwo buhumbikiro.

Umuti w'ubumara wica udukoko uri mu macupa abiri: irirerire n'irigufi, wifashishwa mu guterwa mu myaka kugira ngo ubusimba bupfe, imyaka izakure neza.

Ifunguro riteguwe neza ririmo imboga ,imbuto bico uririye akishima cane kuko bituma agira apeti, akanaryoherwa kubera ubujyo riteguye neza.

Ifi yateguwe neza abayibaze barayisatura bakuramo ibyo mu nda, bayirambika ku kintu gifite isuku, kugira nibaza kuyiteka ize kuba imeze neza.

Isamaki iteguwe neza, iri kumwe n'imbuto z'inyanya, n'amaronji. Uburyo iteguwemo itegereje ko abantu, baza kuyireba bakayirya, bitewe n'uburyohe iri kugaragaza, kuko yateguranwe isuku.

Ifi itetse neza irimo isosi nziza y'umuhondo ,kubera ibirungo bakoresheje, iri mu isafuriya nini ifite isuku ,aho itegereje ko bayarura bakayiha abantu bakayirya banezerewe ,bitewe n'uburyohe iri kugaragaza.

Umurobyi uvuye kuroba isambaza nyinshi cyane ziri ku nkoko, azigemuye ku isoko kugira ngo bazirangure, bazicuruze noneho abone amafaranga yo kwiteza imbere.

Inyanya, igihaza, ipera, urusenda, inyama, karoti, byose bikusanyirijwe hamwe kugira ngo bitegurwe neza byozwe bigirirwe isuku, ababifungura babe bafite ubuziranenge.

Amafi abiri manini ya rope, afite imirizo y'umutuku afite amaso y'umukara, aho agiye gutekwa bakayagaburira abantu bakaryoherwa, bitewe n'uburyo azatanga inyama nziza ku bayariye.

Amafi yarobwe yafashwe ari mu mutego umeze nka supanete aho bayarobye kugira ngo hifashishwe mu ifunguro rya buri munsi no kugemurwa ku isoko kugira ngo abayacuruza babone amafaranga akomoka kuri aya mafi.

umusaruro w'amafi yarobwe ari mu mifuka itandukanye. Iy'umuhondo, iy'icyatsi bategereje ko abaguzi baza kuyagura bakayajana ku masoko atandukanye.

Ifi cyangwa se isamaki iteguwe neza, iri ku meza iryoshe, ikaranze, bayifiritije ku buryo bugaragara nta muntu n'umwe utayirya ho pe!

Isamaki itetswe neza cyane, iri ku isahane y'umweru. Bayitekesheje ikirungo n'amavuta ku buryo urayirya arumva yishimye bitamuteye kumva adahaze.

Umurima waraya cyane， utewe amavoka y'ubwoko butandukanye， yabuze nyirayo kugira ngo ayakorere agaragare neza， ave mu runani， bityo rero hariho n'ibigorigori，bari barahinze impande y'uwo murima， uteyemo amavoka.

Umurima w'ibigori byenda gusarurwa byeze neza, bihinzwe mu mayogi, aho hari n'insina itewe hagati y'amayongi y'incakara, ifite ibitoki byenda kwera, ndetse n'ikindi basaruye cyahirimye hariho n'ibishange.

Ishyamba ry'inzitane ririmo amoko y'ibiti bitandukanye cyane cyane inturusu, imitobotobo ndetse n'ibindi byatsi kimeza, bihuriye hamwe bigakora ishyamba, ku buryo nta muntu wapfa kurijyamo nijoro agenda wenyine.

Ikigorigori umurima basaruyemo ibigori aho ibyasigaye byifashishwa mu gukora ifumbire kubera ko ntakandi kamaro biba bigifite cyangwa se bakaja kubicana.

Ibisigarizwa by'ibigori aho basaruye ibigori bakabyita ibigorigori. Biri impande y'igiti gitoshye cyane cyitwa Mugandituma.

Umurima umaje gusekegwa hitegugwa gutegwa imbuto zitandukanye nk'ibirayi cyangwa ibigori, birinda kurandura ibiti kuko biri mu birinda ubutaka buba bwatwagwa n'isuri.

Ibigorigori aho bahaguje ibigori byeze ibititigiri bihasigara nibyo twita ibigorigori, kandi bivamo inkwi zo gucana ca bakabitemagura bakabishira mu kiraro bikaba ifumbire.

Inka iri kurisha mu rwuri aho iri kumwe n'abashumba batandukanye. kugira ngo zongere umukamo, zikarisha ibyatsi bitandukanye harimo:urwiri n'ibindi bitandukanye.

Umurima basaruyemo ibigori bategereje guhinga kuko waraye. Urimo ibyatsi byinshi bituma babyahira bakaja kubisasiza mu biraro.

Igikakarubamba, kimwe mu miti gakondo yifashishwa kuvura indwara zitandukanye, bityo bikorohereza abantu kwirinda kujya kwa muganga, bifashishije ibi bimera karemano.

Umurima w'ibigori bihinzwe neza bya kijyambere, byakuze bifite uruhundo runini cyane, ku buryo waruhagura rukavaho ikiro. Ruri ahantu hitegeye aho ibyo bigori bimaze kwera bikaba bifite n'ibyatsi mo hasi wabyahira ukabijyana mu ikiraro.

Urugo rw'umuturage rwubakishijwe igipangu kiriho amatafari ahiye, ndetse yateye n'inkarishya zisharira cyane, kuko iyo bazitetse mu biryo biraryoha, kandi zikavura indwara zitandukanye kuwaziriye. Na none mu gipangu cye yateyemo urutoki, kugira ngo ajye aca ibitoke abiteke cyangwa abitaremo imineke.

Igiti cy'inganzamarumbu kimaze igihe gishaje cyane cyameze ibyatsi byinshi cane kubera kimaze igihe gitewe.

Umurima waraye bategereje guhinga, urimo amabuye ndetse wameze n'ibyatsi byinshi cyane, bisaba ko babitema, uri impande y'ishyamba ryakuze ririmo ibiti bitandukanye by'inturusu ndetse na bya rweru.

Urugo rw'umuturage rufite insina yannye igitoki cy'incakara, bayitera inkingi kugira kitazahirima, iyo nzu yubakishijwe amatafari ya rukarakara, ifite n'amakositara hejuru, isakajwe amabati.

Ubuhinzi bw'ibihingwa bitandukanye birimo amajeri urutoki, bifasha abantu mu kwiteza imbere, no kubona ibyo kurya bya buri munsi. Mu buhinzi na none butuma abantu babaho neza kuko babona ibyo bashaka mu buzima.

Urupangu rwubatse neza rw'amabuye n'amakoro, aho rwubakishijwe amatafari y'umutuku asize n'amarangi. Hagati bagashyiramo ubusitani buteye neza, bakabushyigikiza igiti kugira ngo urugemwe bateye rudahirima.

Urutoki rutohagiye rufashwe neza ruri impande y'urugo, baruteyemo ibihaza by'ibishayote, kugira ngo nibakenera ibitoki bajye babiteka no mu bishayote. Rufite n'amakoma y'icyatsi kandi ameze neza.

Ishyamba kimeza ririmo ibiti bitoshye, kandi bifite amashami maremare, ndetse n'amababi menshi agaragaza ko iryo shyamba riri kuvoma amazi, ndetse nta n'ibyatsi byameze muri iryo shyamba ku buryo byaryona, bituma rigaragara ko rikura neza.

Ubuhinzi bwa avoka z'imbangurire ni bumwe mu ubugezwehoho, kuko zifasha abantu mu kwiteza imbere, no kubona amafaranga ku buryo bwihuse, kuko zikundwa n'abantu benshi bakunda kuzirya.

Ubuhunikiro bw'imyaka aho bamanza bayanika ku mahema kugira ngo bayanike yume neza bayibike irimo isuku kandi bikarinda umusaruro kwangirika.

Ibirayi byeze neza kandi binini cyane biri gucururizwa mu iduka, aho ababicuruza babona amafaranga yo kwiteza imbere, abaje guhaha bakaza bitwaje udufuka two kubitwaramo.

Ubuhinzi bw'amashu izi mboga zigafasha abantu mu guteka neza indyo yuzuye, kuko bunatuma abantu babona amafaranga mu gihe gito amashu yera vuba kuko ni bumwe mu buhinzwe bugezweho.

Umusaruro ubungabunzwe w'ibishyimbo, amashaza, ibigori biri mu ndobo, amacunga imbuto byose byahurijwe hamwe, abakeneye kubigura baze kubirangura.

Ibigori bitoshye cyane bihinzwe neza byashyizweho imvaruganda, biteye ku murongo kijyambere aho ubibonye wesa abitangarira bitewe n'uburyo bimeze neza ,bizatanga umusaruro kuko byitaweho neza.

Imyumbati yakuze cyane ya rutaraminsi, aho bagiye kuyininika bakazakoramo bugari kugira ngo barye mu ifu cyangwa se bakayitonora bakayiteka batayinditse.

Imbuto z'amaronje zifasha abana kugira apeti no kurya kuko zigira umutobe mwiza, utuma abana bakunda ibiryo. Zigaragara mu masoko atandukanye aho ziba zajanwe n'abahinzi.

Abacuruzi b'ibitoki by'incakara, bahuriye hamwe, bagurisha ibitoki byabo, ku biro, aho abantu baza bakihahira, bakabahagurira amaseri, bagashyira mu dufuka bakajyana iwabo guteka, buri wese n'amafaranga afite bakamuha.

Ibitunguru byahinzwe ,bimaze gusarurwa, babyitayeho bari kubihanagura neza .Ku buryo bagiye kubikeka bakabiteka ,babironze nta mizi bifite, bifite ibara ry'umweru n'icyatsi ku mababi.

Umurima w'ibigori bya kijyambere bihinzwe ku buso bunini cyane. Hagati haciyemo umugenda w'amazi yifashishwa mu kuhira ibyo bigori, kugira ngo mu gihe cy'izuba bitabura amazi bikuma, hanyuma bikazera neza bifite intete zikomeye.

Abaturage benshi, bahuriye hamwe, bari mu mahugurwa, ajyanye n'iby'ubuhinzi. Bareba uko bahinga neza kijyambere, kugira ngo imyaka izakure neza, kandi ifite ubuziranenge.

Avoka zisaruwe zirambitse ku byatsi zitegereje gupakirwa mu mifuka, kugira zije gutagwa hanyuma zizagurishwe abazishaka bose.

Umuhinzi uri mu murima ari gukorera imyaka ye, none bamuhamagaye kuri telefone ari kugira ngo arebe umuntu umuhamagaye amenya n'icyo ari kumushakira.

Ubuhinzi bw'imbuto bwifashishwa mu gutuma imbuto ziyongera ku masoko， abantu bakabona imbuto zihagije mu rwego rwo kwirinda uburwayi，kuko iyo uriye imbuto bituma ugira ubuzima bwiza.

Avoka nziza cyane zamaze gusarurwa barazitunganya bazizana mu rugo. Aho ziri mu gakarito kugira ngo zishe neza nyuma bazazirye zimeze neza nta kibazo zifite.

Abagore babiri bishimiye gusoroma imboga bahinze ,aho bose bambaye udupfukamunwa, umwe yakamanuye bakaba bambaye imyenda ya kinyarwanda, undi yambaye umupira urimo amabara y'umutuku n'umukara.

Amapera igiti kiribwa kigira imbuto ziryoshye, kandi ziribwa zigakundwa cyane cyane n'abantu b'ingeri zose, bityo rero buri wese yumva yazirya.

Umuhinzi uri guhingira imboga hifashishijwe agakonzo, ari mu ibara ry'umukara kuko atagaragara neza kubera ifoto yafashwe ari nijoro, bityo ukwezi kuri kumumurikira kugira ngo ahinge ari gutema ibyatsi, atangiriza imboga.

Amaronji yaje kugurishwa mu isoko ari mu bitebo bitandukanye, kubera ukuntu abantu bayakunze, mu bitebo amajije gushiramo hasigayemo makeya.

Imbuto z’imyembe, ziryoha cyane, zigira umutobe mwiza, ufasha abana bari kwiga kurya, kandi zitera apeti ku muntu wese uziriye. Zirimo n’intungabuzima zitandukanye.

Ubucuruzi bw'imyembe bufasha abaturage mu kwiteza imbere. Kuko butanga amafaranga ku buryo bwihuse kandi vuba, kubera uburyo butanga umusaruro mwinshi kandi uhagije. Bityo izo mbuto zikaryohera abantu kuko zerara mu gihe gito.

Umuhinzi wahinze ibigori iruhande rw'ishyamba ari kubifata neza abikorera ashiraho imvaruganda kugira bizamuke bimeze neza, yambaye ingutiya y'umukara ndetse yiteze n'igitambaro arunamye ari gukorera ibigori.

Ubuhunikiro bw'ibirayi byeze neza byavuye mu mirima itandukanye, aho bihuriza hamwe kwikusanyirizo kugira ababigura babibonere hafi, kandi ku giciro kibereye buri wese.

Ipera rya kizungu riryoha cyane, barisatuyemo ibice bibiri, irindi bararyihorera ntibarisatura, rirambitse ku kintu kiza cy'umweru ribonerana, ku buryo buri wese ari kurireba akumva riraryoshye.

Inyanya zeze neza, zakuze ku buryo byageze aho bazishingiriza imigano, kugira ngo zigende zizamuka neza zitigonze, zigatanga umusaruro ntiwangirike kubera gukunjama.

Amatunda imbuto ziryoha cyane, zigira umutobe w'umwimerere, zifashishwa nk'imfashabere ku bana bari konswa bafite amezi atandatu, zigatuma bagira apeti kandi bagakura neza.

Abahinzi bari gusoroma icyayi, bagisoromera mu bitebo bahetse mu mugongo, bagenda baha amababi kugira ngo bizagere aho baje kugitunganya.

Umugore uri gukuri birarayi byeze neza kandi yishimira umusaruro yagezeho kubera gukoresha ifumbire mvaruganda no kubahiriza amabwiriza yo gutera kijambombere.

Imyumbati ihinzwe neza, isashijwe ibyatsi kugira ngo izuba ritayangiriza, iratoshe kandi imeze neza, izera neza kuko yafashwe neza mu gihe cyo kuyitera no kuyitaho bayifumbira neza.

Iyi ni tunga, bikaba ibiryo by'amatungo bihabwa ingurube cyane cyane inkoko bikazifasha gukura neza kandi mu gihe gitoya kandi cyihuse.

Umuhinzi urikubika neza umusaruro kugira ngo utangirika. Umusaruro wera iburasirazuba bigafasha kugira ngo uzagere ku baturage wujuje ubuziranenge.

Igitoki cy'incakara cyakuze neza, cyareze cyaratunaye ku buryo umuntu uragitonora arunguka kubera ko kirahita kigwira mu nkono abone ibyo kurya bihagije.

Umuhinzi wajeje umusaruro w'imyumbati. Yashatse abanyamagare kugira ngo bawupakire, ari kuwufata neza. Ayo magare arawugemura ku isoko, aho bari buwubonere hafi abawukeneye.

Umwana uri gucuruza imbuto ku mifungo, yayitwaye mu dufuka tubiri ndetse no ku nkoko, kugira ngo abashe kugura, bagura umufungo babona ubanogeye bitewe n'amafaranga bafite.

Intobyi zeze neza zasaruwe. Bagiye barazica inkondo, bakazirunda hamwe. Kugira ngo nibarangiza, baje kuzitunganya neza. Baziteke cyangwa se bazijyane no ku isoko nyuma y'uko bazisarura.

Avoka z'imiremba zisongoye cyane kuko zasatuwemo ibipande bibiri, kimwe kiririmo kibuto ikindi nta kibuto kirimo, zigiye kuribwa kuko zifite isuku.

Imyumbati yakuze cyane iri ku biti bibiri aho igiti kimwe cyavaho nk'igitebo cyangwa ibitebo bibiri yifashishwa mu gukora ifu nziza iryoshe yitwa ubugari.

Avoka nziza cyane y'imbangurire, isatuye, ifite ikibuto hagati, ifite ibara ry'icyatsi n'umuhondo mo imbere, ndetse n'indi batari basatura ifite ibara ry'umukara, ziraryoshye kuko uwazirya yakumva anezerewe.

Avoka isatuye ugiye kuyifungura imufasha mu kubona intungamubiri zitandukanye zikomoka kuri urwo rubuto kuko rugira uruhare mu kurinda indwara.

Abahinzi ba bukereye bari mu murima bari gusekera. Umugore n'umukobwa bombi bafite amasuka y'imijyojyo, akwikiye mu mihini miremire kugira ngo bahinge neza batavunika.

Abagore babiri bahagaze ku gikuta ,umwe ameze nk'urwaye undi ariyunamiye biteze ibitambaro bitandukanye mu mabara, umwe yambaye agashati k'umweru ,undi yambaye umupira w'umukara.

Umuhinzi wasaruye umusaruro we w'amatunda yeze neza, yose yabaye imihonge. Yayasaruriye ku ibase, ari kugenda ayayora ayapakira mu kintu, kugira ngo abone uko ayajyana kuyagurisha.

Umuucuruzi uvuye ku isoko， afite amabase yari yikoreye yagemuyeho ibicuruzwa bye， ari kugenda mu kayira k'amaguru， aho agenda yitegereza ubwiza nyaburanga， butatse ahantu ari kunyura.

Ubuhinzi bwa kijyambere bugezweho bwubatswe muri hangari, aho aba guhinga batera imbuto zitandukanye, bambaye za gamu n'amataburiya kugira ngo batandura, bityo izo mbuto zigakura, kuko zihinzwe kijyambere mu buryo bwiza.

Ubuhinzi bw'ibigori bimwe mu bugezweho mu Rwanda, aho ibigori byifashishwa mu kubyotsa, mu kubiteka, no kubibeteshamo igikoma bityo umuntu ugiye kubica akaba yizihiwe n'uwo musaruro.

Ubuhinzi bwa kijyambere bw'ibihingwa ngandurarugo aho umuhinzi wabyo arimo yambaye itaburiya y'ubururu, agenzura ko imyaka imeze neza areba ko nta byonyi birimo, arishimye kandi ari guseka.

Ibirayi binini cane by'umukara bya kinigi, biri kugurishwa mu mufuka aho uri kubifata ari kubarisha ikilo mu ntoki.

Abacuruzi b'avoka bazirangura ahantu hatandukanye, bakazigemura ku masoko atandukanye, kugira ngo babone amafaranga biteza imbere, bikabafasha no kumenyekana n'abahinzi batandukanye.

Umuhinzi uri mu murima w'ibirayi ureba ko bimeze neza, kugira ngo amenye niba byeze bigeze igihe co gusarugwa bikajanwa ku isoko. Bicyo bikamufasha mu kwiteza imbere no mu kubona amafaranga.

Ingurube yabyaye ibyana byinshi iri ku byonsa bimwe byahaze biraryamye ibindi biracyonka kubera ko bitari byahaga. Nayo iri kugenda ibihumira kugira ngo byonke neza.

Avoka yasatuwemo imikeke ebyiri isa n'icyatsi ndetse n'umuhondo cyane ,imbere ifite ikibuto ,hagati iryoheye abantu kuko uyirebye wabona iryoheye amasora mu kuyirya.

Uburo bwasaruwe bugatunganywa, bugakorerwa isuku, aho babupakiye mu gashashi ka pulastike kameze nk'igikosi ubundi ntabwo bwari bwatonorwa, butegereje ko babutonora, bityo ababukoresha bakaryoherwa n'uwo musaruro.

Amahundo y'ibigori ari kwanikwa n'umuhinzi wayasaruye, nyuma y'uko abitonoye, ari no kugira ngo azayapakire mu mufuka hanyuma ayabike neza, umusaruro utangirika. Umuhinzi yambaye umupira w'umutuku, arunamye ari kugenda ayakorakora ayanika.

Umusaruro w'ubuhinzi ukomoka ku mashaza akunda gutekwa cyane cyane mu bukwe no mu mahoteli kuko abaryoshe uwayariye yumva nta bindi biryo yaryo.

Ubunyobwa bwasaruwe .Burunze ahantu hamwe ari bwinshi cyane. Butegereje ko baza kubugira neza. Bakabupatira mu mufuka. Hanyuma bakabujyana ku isoko .Bityo ababukeneye bose bakabubona bitabagoye.

Abagore babiri bari kwigisha umukobwa w'umusirimu, ufite imisatsi ya kizungu, bari kumwigisha kugosora, umugore umwe yiteze igitambaro cy'umweru, undi yiteza igitambaro cy'umukara. Bari kugosora imyaka.

Ubuhinzi bw'ibireti buhinzwe ku buso bunini cane, aho uwabihinze bimufasha kubona amafaranga yo kwikenuza, akanatera imbere. Kubera ko iyo abijyanye ku isoko babimugurira bishimye.

Imifuka ipakiwe neza umusaruro wasaruwe, iwubungabunga kugira ngo bazawujyane ku isoko upakiye mu mifuka, bityo biborohere gushyira mu modoka iyo mifuka irimo umusaruro, kuko yuzuye neza isendere.

Igare ripakiye ibishimbo imitwato itatu ihambijwe ibirere ndetse n'umukoba, iri kunyura mu kayira kabagenzi iruhande rw'imodoka.

Ubuhunikiro bw'ibigori bwafushe kubera ibigori byinshi cyane bipakiyemo bubakishijwe amabati y'umutuku ndetse n''ibiti by'imbariro kugira ngo bamanikeho imishubiko y'ibigori bishamitse kubyo bimbariro ziri kubiti.

Igihangare kirimo ibikogwa remezo byubakiwe abaturage kugira bajye bahunikamo ibigori igihe byeze, mu kubungabunga umusaruro hirindwa ko wakangirika kugira ngo ugurishwe umeze neza.

Igihwagari kimwe mu kimera kimeza, kinavamo amavuta meza iyo bagitunganyije. Giteye mu murima uri impande y'ubusitani, n'ibimera karemano bitandukanye.

Ubuhunrikiro bw'ibigori, abantu bazana umusaruro wabo bakawushyimo, kugira ngo umusaruro ubungabugwe kandi ufatwe neza, bityo bikawurinda kwangirika.

Abantu bari kubungabunga umusaruro w'ibishimbo, bawurobanura bawitaho, bakawanika bawurinda ko wakwangirika kugira ngo bazawutere umeze neza, mu rwego rwo kugira ngo hazaboneke imbuto nzima.

Ubuhinzi bw'ibihwagari bwifashishwa mu gukora amavuta yo kurya, aho byeze hose babijana mu ruganda bagakoramo amavuta yo kurya atuma ibiryo biryoha.

Ingano zasaruwe zitegereje kwitabwaho zigahurwa, barangiza bakazihunika kuko zumye neza, nyuma bakazazibeteshamo ifu bakayinywa cyangwa se bakabikoramo umutsima.

Ubuhinzi bwa kinyarwanda bwibanda cyane cyane ku ngano, izi ngano zikaba zifashwe neza kugirazaterwe, zanditswe zumye neza kugira zizamere.

Imbuto z'ibishimbo zanitse ku birago bitandukanye, kugira ngo zume neza, aho abashaka kuzihinga baza kuzifata, bakazijana mu murima zifite ubuziranenge.

Imbuto y'ibishimbo ibitswe neza imanitswe ku rutendezo rw'inzu kugira ngo yume neza, mu gihe cyo gutera izabe ifite ubuziranenge ku ko yarinzwe imvura no kuba yanyagirwa mu gihe runaka.

Amashyaza ari mu bwoko bw'ibinyamisogwe, kandi agira impeke ziryoshye cyane, ku buryo iyo bayatetse wumva nta bindi biryo warya uretseyo.

Umuceri utetse neza uri mu nkono ya kinyarwanda, aho ari mwinshi cyane kandi usa n'umweru, kuko wahiye neza, ikindi inkono urimo isa n'ibara ry'igitaka.

Ubuhinzi bwa kinyarwanda bwibanda cyane cyane ku buro, uburo akaba ari impeke ziryoha cyane, cyane cyane iyo bazitetse mu gikoma.

Umubyey uri kurobanura ibishimbo byo gutera. Ibipfu abishira ku ruhande, ibizima bisigara. Kugira ngo naja gutera, atere imbuto yujuje ubuziranenge.

Igishyimbo cyatewe mu butaka bwiza burimo ifumbire gitangiye kumera, gishinga umuzi kugira ngo gikure aho cyabonye amazi ahagije n'imvura, kikaba kiri mu butaka bwiza kuko kiri gukura neza.

Amasaka menshi cyane yahinzwe neza atoshye, ari kugeswa n'umubibyi wayo kugira ajye kuyasarura, ayahunike neza azayakoremo ifu y'igikoma, ndetse n'umusururu.

Imbuto y'ibishyimbo ifashwe neza kuko iri mu mufuka uyirinda kwangirika, aho bayibitse neza kugira ngo izaterwe, izamere neza, yere neza bitewe n'uko bayifashe neza.

Ibishyimbo bitewe ku murongo ari bine biri mu gitaka cyiza cyane kirimo ifumbire biri kumira bitoshye, aho kimwe cyazanye amababi n'ikindi gitangiye kuyazana ndetse ibindi bishyimbo bibiri bisigaye birakigonze niho biri kuva mu butaka.

Ibishimbo bihinzwe mu gitaka cy'amakoro, aho babishingiriye babohanye ibiti, kugira ngo umuyaga utazaza ukabihirika.

Ubuhinzi bwa kijyambere bugezweho bwo guhinga umuceri, abahinga bagahinga ku murongo, kugira ngo bazayobore amazi neza ku bujyo buboroheye, bico umuceri wose ubone amazi.

Inka ziri mu kiraro cyubakishijwe ibiti, hariho n'abashumba bazireberera kugira hatagira inyamaswa iza ikazihohotera, ni nyinshi kandi ziri kurisha ubwatsi.

Abaveterineri bahuriye hamwe ari babiri, bari kuvura inyamaswa irwaye, aho bambaye amataburiya y'umweru n'utugofero tw'ubururu, ndetse n'udupfukamunwa tubarinda ko iyo nyamaswa yabanduza uburwayi ifite.

Ingurube imeze neza yabwaguye ibyana icumi kandi bimeze neza biri konka bishishikaye iri mu kiraro cyubakishijwe imbaho. Bityo buri cyana gifite amafaranga menshi ku buryo bizafasha nyirayo kwiteza imbere vuba.

Isoko ry'inka zitandukanye aho bahuriza hamwe inka zivuye ahantu hose bakazigurisha mu isoko rizitijwe ibyuma kugira ngo zidatoroka zikangiriza abantu.

Umuveterineri uri gusuzuma imbwa ye， niba irwaye amatwi，kugira ngo ayihe imiti， yambaye imyenda y'umukara， afite ga z'ubururu n’agasengeri k'umweru， akunda gusuzuma amatungo anayavura.

Abashumba bishimiye inka za bo bazitangarira, bitewe n'uburyo zimeze neza, ziri mu biraro byubakishijwe ibiti, bikanasakazwa amabati, bari kuzireba kugira ngo bamenye niba bazigurisha, cyangwa se baziha ibyatsi.

Ubworozi bw'ingurube ziri mu kiraro gisakaje amabati. Zifasha abantu mu kwiteza imbere mu buryo bwihuse kandi vuba, zigira amafaranga menshi kuko zituma abantu babona ibyo kurya n'inyama n'ifumbire bikomoka kuri izo ngurube.

Umuveterineri uri gushishira inka kugira bayitere urushinge banayiha ubwatsi butoshye mu rwuri ruri ahantu hagaragarira buri wese. Bityo rero iyo nka igakura neza kuko yitaweho n'abashumba bayo.

Inkoko ziri mu mbuga mu rugo aho zitamba zitoragura ibintu bitandukanye, abana bakunda gukina nazo bazifata ku masunzu no ku mirizo yazo bakishima bagakina nazo.

Ibiraro by'ingurube bisakajwe amabati, byubakishijwe imbaho kugira ngo ingurube zidatoroka bagacinyira imbaho nyinshi zitahanye imyanya kugira ngo zitabona aho zinyura zitoroka.

Umugore uri kugaburira ihene ze ziziritse ku biti hariho n'akandagirukarabe yifashishwa mu gukaraba intoki igihe arangije guha amatungo ibyatsi.

Inka nyinshi cyane ziragiwe n'abashumba, ziri kurisha mu rwuri, impande y'inzu yo kugamamo, ku buryo imvura iguye abashumba bahita bajya kugama batanyagiwe, inka zo zigakomeza zikarisha.

Amagi apakiye mu bikarito menshi cyane y'umweru kandi yifashishwa mu kugaburira abantu ibyo bikarito apakiyemo birimo amabara y'umutuku, ay'icyatsi ndetse n'ay'umukara.

Veterineri ari gukingira inka ayitera vitamine,e ayirinda n'uburwayi kugira ngo ikure neza yujuje ubuziranenge. Aho nyir'inka ayifashe amatwi.

Abaganga bahuriye hamwe bagahuza imbaraga, bagakora imiti ifasha gukiza indwara, aho bambaye ingofero zigaragaza ko ari abaganga n'amataburiya agaragaza ko ari abaganga bari gukora ibintu bitandukanye, byafasha abarwayi cyangwa se inyamaswa zirwaye gukira.

Abantu barambitse inka hasi, umwe akayifata amaguru ayikomeje cane, undi ari kuyikura amahembe yifashishije amenyo, kugirango idatera amahane ikamukuru urwasaya.

Ingurube imeze neza cyane, yabyaye ibyana byinshi bigera kuri cumi na kimwe by'igitoboto. Iri ku byonsa neza kandi biri gukurarana umuvumba.

Umworozi wabigize umwuga, uri kugaburira inkwavu ze ziri mu mabara y'umweru, ari kuzigaburira ibyatsi bitandukanye birimo imigozi, urubingo aziha n'intoki, kugira ngo buri zose zibashe kubona ibyo zirya.

Ubworozi bw'inkwavu ziba mu bibuti byubakishije imbaho, zigaburigwa amakoma n'ibindi byatsi bitandukanye, uzoroye zimufasha kwiteza imbere mu bukungu bwe bwa buri munsi.

Inka y'imbyeyi n'inyana yayo ziri gukina, inka nini iri kurisha, inyana iri gushaka konka ifite amabara y'umweru avanzemo n'umukara, inyana yiganjemo amabara y'umweru.

Inkende ihagaze ku cuma yitegereza icapa kiri hakurya kiriho ibendera ry'u Rwanda. Aho hari n'ubusitani bw'imikindo iteye hasi.

Akanyamasyo nka zimwe mu nyamaswa ziba mu ishamba, aho gahora kagenda gake gake bigatuma katihuta, kubera ko kaba gahetse ikintu ku mugongo.

Inyamaswa zo mu ishamba zishobora kororwa n'abantu kugira ngo zibarindire imbeba, harimo nk'iyi ngiyi uri kureba yitwa injangwe. Ifata imbeba cane cane zo mu nzu.

Inuma inyoni ziba mu ishamba kandi zikunda gutera amagi aribwa akaryoha zigira n'inyama ziryoshe zikundwa n'abantu bose.

Urukwavu itungo rigufi ryo mu rugo ryororoka vuba. Kandi mu gihe gito rikarwanya bwaki, aho inyama zaryo zikunda kuribwa n'abantu bose, kugira ibikomoka ku matungo.

Inyamanswa ziba mwi ishyamba harimo inyoni yitwa umununi, ifite amabara atandukanye meza cyane ikunda kuba mu ishyamba ikarya n'udusimba.

Urusamagwe ruri kureba nabi. Rufite amabara atandukanye y'umukara n'umweru, aho ruhagaze ahantu hirengeye hatagira ibyatsi, hameze nk'ubutaka bwonyine, aho uwarwegera rwahita rumucamo kabiri.

Inyamaswa y'ishamba yitwaye nk'ifuko yafashwe n'umuntu. Icukura hasi mu butaka yinjira igenda, ishakashaka imyobo yo kubamo y'imiheno.

Igihunyira inyamaswa ibamwishyamba ituma abantu bayitinya kubera kubera urusaku rwayo iyirikuvuga murako gace haba hari umuntu wapfuye cya gihe kiri guhunyiza.

Inyoni iguruka iri mu giti cyumye, ifite amabara atandukanye ku buryo biryohera abantu bose kuyitegereza, kubere ko ifite umunwa usongoye, amabara y'umuhondo, ubururu n'icyatsi.

Inyoni z'ishyamba ziri mu biti, aho ziri guhagarara ku mashyamba, kugira ngo zigurukire ahantu zitegeye, zibona neza, ku buryo ntacyazihungabanya, no kubihaza aho zishobora kudomagura amababi.

Inkoko za kijyambere zakuze cyane zifite inyama nziza, kuko muzipimuye ku biro wasanga zifite ibiro byinshi. Ziri mu mabara y'umukara, n'iminywa y'umutuku, ndetse n'amaso y'umukara.

Imbeba ya mushushwe iba mu ikinani ikunda kurya urubingo ikaryana n'ibyatsi. Igakora n'ibyari mu kinani kugira yirinde imvura n'abana bayo babona aho baba. Iyo mbeba kandi yangiza ibintu iyo igeze ku bishyimbo bahinze irabibya bikuma.

Ikijangwe gikanuye amaso， gitegereje gufata imbeba， gifite amaso manini cyane，cyarakaye， n'ubwoya bw'igitaka， ku buryo imbeba iri buze kiri buhite kiyicakira.